Abagabo n'abagore bari mucyumba cy'inama, basa neza, bicaye ku ntebe zirabura, imbere hari ameza y'umutuku n'umukara, umwe ufite mudasobwa bose imbere yabo hari amazi na micro bakifashisha mu gutanga ibitekerezo byabo.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'inama, bamwe bicaye hasi abandi bicaye hejuru, inyuma harasa ubururu, hasi harasa ubururu, bafite intebe zisa shokora na kacyi n'ububati buteretseho ibyo kunywa.

Umugabo ufite mudasobwa imbere wambaye ishati y'umukara ufite impeta ya zahabu ufite ubwanwa bwirabura, ufite uruhara afite mikoro arimo aratanga igitekerezo cye inyuma ye bigaragara hari abandi barikumva ibyo ari kuvuga.

Umugabo wambaye rinete ufite umusatsi mukeya wambaye ikositimu y'ubururu ishati y'ubururu karuvati y'umweru n'ubururu; afite mikoro arimo aratanga ijambo cyangwa igitekerezo cye mu nama.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba k'inama bicaye bose ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza zisa umukara na shokora, hari n'ubucupa bw'amazi bakaba bari kureba ku rukuta rwera televiziyo bahashize.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, babiri bahagaze umwe afite mikoro, undi afite igipapuro mu ntoki, abicaye bicaye ku ntebe z'ubururu n'umukara, imeza ni umutuku, inkuta z'icyo cyumba cy'inama ni umweru.

Abagabo n'abagore bari mucyumba cy'inama bicaye bambaye neza, buri wese afite agacupa k'amazi hasi hashashe isima inkuta ziriho impapuro zigiye zitandukanye zisakaki.

Umugabo uhagaze wambaye umukara, ishati y'ubururu harimo n'umweru mukeya, ahagaze hagati y'abantu bamwe bicaye munsi ya shitingi. Abandi bahagaze bari kumva ijambo arikubabwira.

Ibiro birimo abagore n'abagabo bari mu kazi, imbere yabo hari mudasobwa hari n'abandi bahagaze bari mu kabati bafata ibikenewe byo mu kazi, inkuta zirasa umweru.

Icyuma kinini kirekire cyane gikozwe mu byuma byinshi bitandukanye, bisize umutuku n'umweru, hariho ibiteretsweho byifashishwa mu koroshya ikoranabuhanga.

Abagabo n'abagore bari mu biro birimo mudasobwa nyinshi ariko bahagaze imbere ya mudasobwa imwe mugenzi wabo w'umugore haribyo arimo arabereka kuri mudasobwa ye abandi barimo nabo baraganira.

Icyuma kirekire kigizwe n'ibyuma byinshi bakunze kwita anteni, kifashishwa mu koroshya ibikorwa by'ikoranabuhanga bitandukanye, kirasa umutuku n'umweru hejuru yikirere gisa neza ubururu n'ibicu bisa umweru.

Agapapuro k'umweru kanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, handitseho amagambo yo mu kirimi cy'amahanga ruguru, ariko harimo n'amagambo yo mu kinyarwanda ariho nk'amazina nka perezida Paul Kgame ndetse n'andi mazina agiye atandukanye.

Igiti cyamashanyarazi kiriho insinga zisa umukara, munsi hari inzu ifite amakaro asa kaki, hirya hari igiti gisa icyatsi, hejuru hari ikirere cyera.

Umugore wuriye ipoto ry'amashanyarazi arimo arashaka ibikoresho byo gutunganya ikibazo cyaba gihari kuri iryo poto ry'amashanyarazi arimo gukoraho akazi.

Igiti kirekire cy'amashanyarazi gihuriraho insinga nyinshi zitandukanye z'umukara hejuru yacyo hari ikirere cyera gifite ibicu byimvura byirabura.

Amapoto ya'amashanyarazi abiri munsi hari inzu isa umuhondo ifite amabati y'umutuku hirya hari umusozi uriho amazu agiye atandukanya ubucuruzi nayo babamo.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye n'abanyamaguru harimo ibinyabiziga byinshi by'amaguru abiri, hirya hari abantu benshi begereye iduka.

Icyuma kinini cy'amashanyarazi ubona ko ari ihuriro ry'insinga nyinshi munsi hari amazu atandukanye asakaye harimo asa icyatsi harimo n'isa umuhondo.

Igiti cy'amashanyarazi giteye hagati y'ibiti byinshi bitandukanye gifite insinga zirabura, hejuru ikirere gisa n'umweruru n'ubururu.

Umuhanda w'igitaka urimo kugenderamo umugabo wambaye umukara mwinshi umweru mukeya uhetse igikapu iruhande hari umurima urimo ibiti by'amashanyarazi bifite insinga zirabura.

Igiti cyifashishwa mu guterura insinga z'amashanyarazi zisa umukara, kikaba kinafite n'itara ryifashishwa mu kumurika n'ijoro ibinyabiziga kugira ngo bibone, iruhande hasi hari ikinyabiziga kinini cyifashishwa mu guterura ibintu byinshi.

Ibiti bibiri by'amashanyarazi bihagaze, kimwe cyifashishwa mu kumurikira imodoka nijoro, ikindi ni ihuriro ry'insinga, inyuma yabyo hari igiti kinini cy'icyatsi, iruhande hari agahanda k'abanyamaguru, uruhande rwako hari kaburimbo irimo ikinyabiziga cy'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye harimo ibinyabiziga bitatu iruhande hari agahanda kagenewe abanyamaguru, imbere hari inyubako ebyiri zitandukanye harimo imwe isa umuhondo n'ibirahure by'ubururu ishinzemo idarapo ry'igihugu indi yitwa CHUB isa umweru n'ibirahure by'umukara.

Ni akazu gakozwe mu twuma n'amabati gashinze iruhande hari amapave, hepfo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati y'ubururu.

Igorofa ziri hamwe, nini, zisa, zifite ibirahure bisa icyatsi, zose inkuta zisa umweru numutuku, imbere hari umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru n'ibinyabiziga.

Ubusitani bwo hanze hateyemo pasiparumu n'indabyo n'ibiti harimo n'utwapa twa parikingi duteye umukara n'umweru haparitse imodoka z'imbangukiragutabara z'umweru n'umukara harimo udusaraba tw'umutuku hirya hari ibitaro bisa umuhondo bifite idarapo hejuru.

Izina ry'ibitaro ry'Akarere ka Nyarugenge, ryanditswe mu irangi ry'umweru, inyuma hari irangi ry'ubururu, hagaragara ko ari aho abantu binjirira, baje gushaka serivisi zo kwivuza.

Igikuta cyubakishijwe amabuye y'ubwubatsi, asize irangi ry'umweru hagati hakaba harimo irangi rya shokora, hirya hicaye abantu bategereje guhabwa serivisi baje gushaka, inyuma hari pasiparumu n'ibiti.

Umukobwa wambaye ubururu hasi hejuru umweru n'umukara, ufite umusatsi muke, hasi hasashe isima, imbere hari imiryango ibiri ifunguye igana muri korodori, inkuta zisize umweru.

Ubutarasi bwo hanze buteyemo pasiparumu n'indabyo zitandukanye harimo n'ibyapa bigaragaza aho uri.

Abagabo n'abagore bambaye neza basa neza bitabiriye inama inyuma yabo bigaragara ko hari igikuta gisa umweru n'ubururu harimo n'ikirangantego cy'iyo nama bitabiriye.

Abagabo benshi bahagaze bambaye imyenda itandukanye, iriganje n'iroza, bafite uruhara, inyuma yaho hari uruzitiro rukozwe mu byuma rwa shenyenge, inyuma yaho hakaba hari urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye.

Abagabo n'abagore benshi, bamwe bahagaze abandi bicaye, hagati yabo harimo itsinda rya bane bicaye bambaye umweru, babiri hejuru, und’umukara, undi kaki bicaye ku ntebe yigiti gisize kaki bari munsi y’igiti kinini cyane gisa icyatsi.

Ikinyabiziga gishinzwe gukora imihanda kiri mu busitani ndetse inyuma y'ubwo busitani hari inganda izo nganda zisize amabara y'umweru n'urundi rusize irangi ry'ibara ry'icyatsi ryerurutse izo nganda ziri ahitaruye.

Umugabo w’umucamanza wambaye imyenda itukura, irimo umurongo w’umweru hagati wirabura ufite umusatsi mukeya. Inyuma har’urukuta rusa umweru.

Urubikiro rw'ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibikarito bisa kaki byinshi n'ibicuruzwa bitandukanye biri ku kabati gasa umukara hasi hasashe amakaro y'umweru.

Abagabo n'abagore bahagaze hamwe harimo abagabo cumi n'umwe abagore babiri bambaye imyenda itandukanye bambaye iniforume za gisirikare abambaye ikositimu n'abambaye imyenda y'ubushinjacyaha .

Umugabo w'umucamanza wambaye umutuku n'umweru akambara ishati mu imbere ya karokaro, umutuku, umukara na karuvati y'umukara akaba afite umusatsi mukeya.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba gifite inkuta z'umweru harimo imeza zisa umuhondo, imbere yabo hari impapuro bafite amakaramu mu biganza bambaye amabendera y'u Rwanda.

Abagabo n'abagore babacamanza bambaye masike z'ubururu imbere yabo hari mudasobwa n'amazi, bitabiriye urukiko, hari na micro bakifashisha mu gutanga ibitekerezo byabo.

Ikibuga kinini k'igitaka bigishirizamo cyangwa bakoreramo ibizamini byo gutwara imodoka, harimo umupolisi wambaye umukara n'ingofero y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara, akaboko ke k'inyuma afite urupapuro rw'umweru, imbere ye hari imodoka y'icyatsi ikinyabiziga cy'amaguru ane.

Abagabo n'abagore bahagaze bamwe bagenda mu gahanda k'abanyamaguru, umugabo umwe uhagaze wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi, umugore umwegereye yambaye ubururu n'umweru n'umutuku, uwegereye umugore yambaye ibage igikapu gitukura nishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyuma cy'umutuku mwinshi n'akeru gake n'ubururu bukeya gifite umupira wirabura, cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Ikinyabiziga kinini cyane cyifashishwa na polisi y'igihugu gisa umweru n'ubururu n'amagambo yanditse mu mweru, kifashishwa kuzimya inkongi y'ahantu habaye ibibazo by'inkongi.

Icyapa cy'urwego rw'ubugenzacyaha gisa ubururu amagambo yanditse mu mweru gifite ikirangantego cy'igihugu kigagira ikirangantego kiranga icyo kigo cy'ubugenzacyaha.

Ikinyabiziga gitwara peteroli harimo benzine, esanse na mazutu kirimo kirazimwa n'abagabo bagenewe kuzimya ibintu byaka inkongi y'umuriro.

Abagore benshi beza bahagaze hamwe bakenyeye bambaye imikenyero y'amabara atandukanye, bahagaze kuri sima y'ama esikariye, iruhande n'inyuma mu mpande zose hari ibiti bisa icyatsi.

Ikirangantego cya pariti sosiyare imberakuri. Harimo ubutabera, urukundo no gukora. Hagati hakaba harimo ururabyo rusa iroze, n'ibibabi by'icyatsi, no munsi hakaba harimo ikiganza cy'umugabo ubyemeza cyirabura.

Abagabo n'abagore bahagaze hamwe bambaye ibintu bitandukanye, bari kwinjira abandi bahagaze, hari abafotozi benshi, iruhande hari urugi rusa umukara ruriho utwuma twa sekingi.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Icyumba cy'inama gifite amameza asa kaki n'umutuku n'intebe zirabura, kirimo abagabo n'abagore benshi bicaye harimo umwe wambaye kaki uhagaze imbere ari kubaganiriza.

Ibendera ryishyaka rya PSD rifite ibara ry'ubururu, umweru, icyatsi n'amagambo yanditse mu ubururu.

Ukwiyamamaza k'umukandida wa FPR harimo abantu benshi bafite amabendera bashize hejuru ya FPR afite ibara ry'umutuku, umweru n'ubururu.

Umugabo urimo kwiyamamaza wambaye hejuru ishati y'umweru n'ubururu n'umutuku, hakaba hariho n'ikirangantego k'ishyaka yiyamamariza, yambaye amarinete y'umukara, afite agasatsi gake, abantu bazamuye amabendera yishyaka rye.

Ukwiyamamaza k'umukandida wa efuperi, mu murenge wa Karambo, akagari ka Karambo, aho abaturage benshi bambaye umweru, umutuku n'ubururu, bitabiriye ukwiyamamaza k'uyu mukandida Kagame Polo.

Imodoka ya pikapu yo mu bwoko bwa mahindura yitwa mahindurazi koropiyo iri mu ibara ry'ifeza imbere yayo hahagaze abagabo babiri bafite ifoto imeze nk'urufunguzo rw'imodoka yanditseho izina rya kampani izwi mu Rwanda mu birebana no kugura no kugurisha imodoka yitwa Akagera motors.

Abagabo n'abagore bahagaze hamwe, bambaye neza basa neza. Inyuma yaho hari ibyuma bifite amabendera, ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda n'ibendera rya esita afurika ipande y'ibyo byuma hari ibiti bisa neza by'icyatsi.

Umugabo n'umugore bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara bombi bafite mudasobwa imbere na mikoro bakifashisha mu kuvuga, umugabo yambaye umukara n'umweru na karuvate ya move n'amadarubindi, umugore nawe yambaye ubururu n'umweru n'amadarubindi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru wambaye karuvati y'umutuku irimo uturongo tw'umweru, wambaye amadarubindi ufite umusatsi mukeya, inyuma ye hasa umukara.

Abagore babiri bunamye bambaye umweru hejuru umukara hasi ,umwe yambaye ijipo undi yambaye ipantaro bari gufatisha kurukuta ibipapuro byumubare w'amatora bamaze kugera.

Itangazo ry'inama ikomeye izaba iri kuvuga kubirebana n'ikoranabuhanga; izabera i Kigali mu rwanda ku itariki makumyabiri n'enye kugeza makumyabiri n'esheshatu gashyantare bibiri na makumyabiri na gatanu, rikaba ryashyizwe hanze n'ikigo cy'imyuga gikunze kwitwa RDB.

Abakozi bane ba emutiyene n'umuntu umwe uje gushaka serivisi, ku byapa bafite hariho amatelefone manini cyane agezweho, handitseho amagambo agira ati wikwisondeka, kanda akanyenyeri gatatu, kane gatanu, akanyenyeri zeru maze wihahire interineti nziza.

Ikinyabiziga kinini kiri muri kaburimbo gisa umweru n'umukara inyuma handitse matare limitedi, icyuma cyifashishwa mu kuvanga umucanga, amabuye na sima by'ubwubatsi.

Urubuga rwitwa eni ero eyi cyangwa nashono landi otoriti, rwifashishwa muri repubulika y'u Rwanda, aho itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Ikinyabiziga cy'amaguru atatu gisa icyatsi cyifashishwa mu guterura ibintu biremereye bitandukanye harimo imiceri, harimo sima, harimo ibikoresho by'ubwubatsi bigiye bitandukanye, iruhande yacyo hari agahanda kagenewe abanyamaguru.

Imodoka nini ikoreshwa mu gutwara abagenzi isa umweru n'umukara iri muri kaburimbo, iruhande rwayo hari agahanda kagenewe abanyamaguru iruhande hari umuferege.

Mu muhanda wa kaburimbo ushaje ugiye urimo ibisate, harimo kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye, iruhande hari inzu n'igorofa nini ifite ibara ry'umweru n'icyatsi, no hirya akabari.

Abagabo babiri barimo baragenda n'umugore umwe uri imbere yabo, umugabo umwe yambaye ishati ya karokaro irimo amabara atandukanye ubururu, umukara, hasi ikabutura y'umukara mugenzi we akaba yambaye ipantaro y'ubururu na bage n'umupira w'umukara.

Ikinyabiziga kinini gitwara abagenzi kizwi nka bisi gisa umweru n'ibirahure by'umukara kiri muri kaburimbo ikoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, hirya yacyo hari amaduka atandukanye.

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye harimo ikinyabiziga kinini gikoreshwa mu gutwara abagenzi gisa umweru n'ibirahure bisa umukara, imbere yacyo hari igare rya matabaro.

Ikinyabiziga cy'amaguru abiri, bakunze kwita moto, kiriho abagabo babiri bambaye kasike zisa umuhondo, imbere yabo hari agace kagenewe muri kaburimbo abanyamaguru.

Ikinyabiziga kinini, kiri kugendera muri kaburimbo, gifite irangi ritukura, cyikorera ibintu byinshi bitandukanye, harimo umucanga, amabuye, ibiti, iruhande rwaho hari agahanda gakoreshwa n'abanyamaguru.

Ikinyabiziga cy'amaguru abiri, gisa umukara, umweru, kiraho umugabo wambaye hejuru ubururu, umuhondo na kasiki y'umuhondo, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'ubururu, hirya ye hari ikindi kiriho undi mugabo, hepfo ye hakaba hari imodoka y'ikinyabiziga cy'amaguru ane.

Ikinyabiziga kinini cya bisi kifashishwa mu gutwara abagenzi benshi, gisa umweru kiri kugendera muri kaburimbo iruhande hari umuhanda w'abanyamaguru, hari n'ikiraro gitambuka hejuru y'umuferege, hirya y'imodoka ya bisi hari ivatiri, ikinyabiziga cy'amaguru ane gisa umweru.

Umuhanda w'umukara harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ifite ibara ry'umweru, indi modoka ifite ibara ry'ubururu n'umukara, yanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku n'umweru, harimo kugenda amapikipiki ahetse abantu, asa umutuku n'umweru.

Imodoka nini ya rukururana ifite irange ry'umweru n'umukara n'umutuku mu mpande isize ubururu inyuma. Yifashishwa mu gutwara ibintu byinshi biremereye bitandukanye harimo amasima, insinga, amamodoka y'ubuhinzi n'ubworozi n'amamodoka y'ubwubatsi.

Abana bari gukina umupira w'amaguru, umupira urasa umweru, ikibuga gisasheho sima harimo uturongo tw'umweru hashinzemo n'igiti cy'icyuma, uwegereye umupira yambaye umukara hose, abari hirya umwe yambaye umutuku, undi yambaye umweru n'undi yambaye icyatsi.

Icyapa cyo mu muhanda gikoreshwa n'ibinyabiziga gifite amabara atandukanye harimo umutuku n'umweruru n'umukara n'icyapa kigaragaza ko imbere hari inzira yo gukatiramo ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, iruhande hari boridire isize umweru n'umukara iteyemo indabyo, hashizemo utwuma tubiri dufashe icyapa cy'umweru n'umutuku kivuga ko umuhanda urangiye ari ugukata.

Icyapa cyo mu muhanda, kigizwe n'ibara ry'umutuku, n'umweru, n'umukara, harimo umuntu ugaragaza ko ari kwambuka, icyapa kivuze ko imbere ugomba kwitonda, hari umuhanda abanyamaguru bakoresha bambuka.

Icyapa kifashishwa mu muhanda gifite amabara atandukanye harimo umutuku w'uruziga, na makumyabiri yanditse mu mukara inyuma ari umweru kivuga ko umuntu atagomba kurenza makumyabiri muri uwo muhanda.

Umugore udafite umusatsi wambaye linete, ikanzu y’iroza ryerurutse, abantu benshi inyuma ye.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Umumotari wambaye umukara hejuru, akambara kasike y'umutuku ari kuri moto y'ikinyabiziga cy'amaguru abiri gisa umutuku n'umukara, ari kugendera mu muhanda usashe hasi amabuye, hirya hari amaduka atandukanye ari muri karitsiye yitwa kajagali rimwe.

Iduka rinini ry'ubucuruzi, ry'ingorofa, risize umuhondo n'icyatsi. Hejuru hari akabari kitwa tushotisi, hasi hari imiryango isa umweru ifite ibirahure byirabura. Imbere hari amapave, imbere y'amabave hari jaride irimo ibiti by'icyatsi.

Urupangu rwubakishije amatafari ahiye sa oranje ariho n'utwuma, munsi hari urufatiro rw'amabuye hepfo hari utwuma, hepfo yaho hari ibyatsi byakuze biteyemo ibiti.

Inzu nini y'ubucuruzi ikoreshwa ibintu bitandukanye. Hasi hari banki, imbere yayo hari parikingi y'ibinyabiziga, hakurya yayo hari kaburimbo ikoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye by'amaguru n'iby'amaguru abiri.

igishanga gisa icyatsi gifite ibiti byinshi bitandukanye bisi icyatsi hirya yacyo ha aho abantu batuye harimo amazu atandukanyegorofa n'amazu magufi inyuma yho hari agashyamba gasa icyatsi iriya' ako gashyamba hari ahandi hantu hatuye abantu benshi

Inzu nini y'ubucuruzi isize irange ry'umuhondo n'umutuku n'ibirahure by'umukara, ifite iduka rinini rizwi nka simba ryanditswe muri oranje imbere hari parikingi, hejuru y'iduka hari amaparitema abantu babamo.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Inzu nini igaragara ko ari iy'ubucuruzi isizwe umuhondo n'umukara, ikaba ifite amaduka atandukanye acuruza ibintu byinshi bitandukanye, hakaba hari na za farumasi, hasi hasashe amapave muri parikingi.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, iruhande hari agahanda gakoreshwa n'abanyamaguru, iruhande haparitse amamodoka menshi imbere y'imodoka ibinyabiziga hari ikizu kinini cy'ubucuruzi gisa umukara gifite ibirahuri by'ubururu.

Igiti kinini gisa shokora gifite amashami y'icyatsi munsi hari akapa ka kaka makumyabiri sate, inyuma yacyo hari inzu isakajwe amabati y'umutuku n'urukuta rw'umweru.

Igiti kinini gisa icyatsi, hirya hari agace gatuyemo abantu benshi, karimo inyubako nini n'intoya zikiri kubakwa, izuzuye zisakaye n'amabati y'amabara atandukanye.

Amazu abiri yegeranye adateye irangi imwe isakaye ibati ridafite irangi, iyindi isakabati rifite irangi ry'umutuku, hirya yaho hari igipangu na cyo kidafite irangi rikikijwe na senyenge hirya yaho hakaba hari urubikiro rw'amazi rwa parasitike rusa umukara.

Icyapa gifite ubwoba bw'icyatsi gishinze iruhande rw'inzu ifite amategura ya oranje, inzu isize amarangi y'umweru n'icyapa gisa umweru gifite amagambo yanditse mu mukara numutuku, icyapa cya girini apatimenti, iruhande hari igiti kirekire gifite amashami y'icyatsi.

Agace gashyashya kari kwimukiramo ahantu, harimo amazu akiri kubakwa, harimo ayuzuye hatuyemo abantu, mu mihanda y'igitaka, ku ruhande hari ibyatsi by'icyatsi hiya hari ishyamba ruguru yaho.

Umuhanda w'igitaka n'amapave uhura na kaburimbo yifashishwa n'ibinyabiziga bitandukanye, turabonamo ikinyabiziga cy'amaguru ane cy'umweru, tukabonamo n'ikindi kinyabiziga cy'amaguru abiri kicyegereye.

Ikiraro cyo mu muhanda gikoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, gikikijwe n'utwuma dusize umweru n'umukara, munsi yacyo hari indi kaburimbo nayo ikoreshwa n'ibinyabiziga, harimo umumotari n'umuyonzi, iruhande yabo hari agahanda k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe no gukoreshwa n'ibinyabiziga, harimo agace gasizwe irangi ry'umweru kagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru muri iyo kaburimbo nyine y'ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, umaze gusaza uririmo ibisate. Mo hagati harimo agahanda gakozwe n'amapave gatandukanya imihanda ibiri y'ibinyabiziga bibisikana.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe ibinyabiziga, ufite agace muri kaburimbo kagenewe abanyamaguru gasizemo imirongo y'umweru kuhande yaho hari akandi k'abanyamaguru.

Ihuriro ry'imihanda ifete ibyerekezo bitandukanye hari borodire iteyemo indabyo, imbere yayo turabona ikinyabiziga cy'amaguru ane amatara yatse hirya yacyo turabona icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru, hejuru yacyo tukabona ikiraro gikoreshwa n'ibinyabiziga .

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga wa kaburimbo urimo irangi ry'umweru uduce duce tugabanya imodoka buri buryo zibisikana, hirya harimo ampave y'umukara n'umweru hagenewe agahanda k'abanyamaguru, hari n'ayandi mo hagati ateyemo ibiti n'indabyo.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga ku ruhande hari umwanya wagenewe amabise atwara abagenzi aho azajya ahagarara, ku ruhande hari umuhanda wagenewe abanyamaguru w'amapave.

Ikinyabiziga cy'amaguru abiri bakunze kwita moto gihetse umuntu wambaye ibitenge, umumotari wambaye ijire y'umuhondo n'ubururu na kasike y'umutuku, imbere ye hari ikimodoka kinini cya bisi gitwara abagenzi gisa umweru n'umuhondo.